Umugabo wambaye imyambaro y'akazi, hari n'undi mugabo wambaye bisanzwe, bari imbere yinzu nziza, hari n'ibiti byiza bitanga umwuka mwiza ndetse basa neza, basa naho bishimye umwe ari ku kazi ke n'undi ari gusaba serivisi.

Umugabo wambaye inkweto z'umweru zirimo n'umukara, yambaye n'ipantaro y'umukara n'ikote ry'itiriningi ry'umukara wicaye ku muhanda afite n'agacupa k'amazi, iruhande rwe hariho n'isashi y'umutuku ndetse asa n'uri ku kiraro cyiza.

Abaganga babyukiye mu kazi ko kubaga umuntu, bambaye n'imyambaro yabugenewe y'ubururu ndetse bari mucyumba cyiza nacyo giteye irangi ry'ubururu, basa naho bari kubyaza umubyeyi uri kugitanda.

Abasirikare ndetse bize n'ubuganga baje mu bitaro baje kuvura umwana cyangwa se abarwayi ndetse bari mu cyumba kiza, kiza giteye irangi ndetse harimo umuganga w'umwirabura n'umuganga w'umuzungu.

Abagabo bari ahantu hatukura ndetse bafashe umuntu bamujyanye kwa muganga aho yaba yagiriye ikibazo ndetse hafi yabo hari urutoki n'ibigori ndetse n'ibiti.

Abaganga bambaye imyambaro y'umweruru yabigenewe, bagiye gushira umuntu ku kantu batwarira ho abarwayi, kugira ngo babone uburyo bamuvura byihuse kugira ngo atabura ubuzima bwe ndetse bari kumutabara kugira abeho.

Abaturage bari mu cyumba kiza ndetse harimo n'abazungu bambaye n'imyambaro y'akazi, hariho mudasobwa ameza y'umweru, mu cyumba giteye irangije ry'umweru, bari kubabwira ibintu bijyanye n'ubuvuzi kugira ngo bajye bita ku barwayi.

Abakozi ba Croix Rouge umuryango ufasha imbabare, ari gufasha umuntu wagize ikibazo, baramuteruye ndetse bambaye n'ubujire bw'akazi, umuntu wateruye nawe yambaye umupira utukura, bari kumufasha kugira ngo babone uko bamujyana kwa muganga.

Abarwayi baje kwa muganga kwivuza kugira ngo ubuzima bwabo bumere neza, bibafashe gukora ndetse no kwirinda izindi ndwara kugira ngo babone uburyo batera imbere banateza imbere imiryango yabo.

Icyumba kiza kirimo igitanda cyo kwa muganga, gifasha abarwayi mu kubavana mu cyumba kimwe babajyana mu kindi ndetse muganga ajya asangamo n'umurwayi, akamuvura, akamubaza uko amerewe ndetse bigatuma umurwayi amererwa neza.

Abaganga bari mu bitaro bari mu cyumba cyiza kirimo ameza n'ibikoresho byo kwa muganga bibafasha mu kuvura abarwayi ndetse no kubitaho banabitaho kugira ngo babavure basubire mu buzima bwabo bwa buri munsi bage kwiteza imbere.

Umuhanda wa kaburimbo, uri hafi y'ibitaro, byiza ndetse bisakaje n'amabati y'ubururu, biriho n'imodoka itwara abarwayi, ndetse ifasha abaturage mu kujyana, abantu barembye, ku ivuriro.

Abaganga babyukiye mu kazi ko kuvura abarwayi ndetse bari mu cyumba cyaho barara, baje kubafasha bababwira uburyo bagomba kurya imiti ndetse bakanabibutsa uburyo bagomba kwiyitaho kugira ngo bakire basubire mu buzima busanzwe.

Muganga uri kumwe n'umurwayi waje kwivuza, ari kumubwira uburwayi arwaye na we akagenda abyandika kugira ngo babone uburyo bamuha imiti, ayinywe neza ndetse akire atahe azabe mu rugo neza.

Abaturage benshi baje mu bitaro kwivuza kugira ngo bakire ndetse bari mu cyumba cyiza, ibitaro bifasha abantu kwivuza, kwipimisha indwara ndetse bikabagira n'inama yo kumenya uburyo bitwara mu gihe barwaye.

Umwana urwariye ku bitaro uri kumwe na mama we, bari mu cyumba kiza kirimo amadirishya y'ibirahure, ndetse ari giteye n'irangi hariho n'amashuka y'ubururu, ndetse biri gufasha umwana kwishima no kwishimira kugira ngo akire vuba.

Abaganga bari kumwe babiri bari kwereka abantu uburyo boza imboga kugira ngo babone uburyo baziteka, bizabafasha kwirinda indwara zandurira mu mwanda ndetse n'izindi ndwara zikomoka ku isuku nkeya.

Abagabo bane bahagaze babiri bambaye itabuzu umwe nabandi bambaye amashati, bahagaze imbere'ahantu handitse reseption, ni ahantu bakirira abantu mugihe bagiye kubaha serivisi, kugirango badategereza bagatinda cyane.

Abaganga baje kureba abaturage babafasha kwipimisha indwara zitandukanye harimo: SIDA, igituntu Malariya ndetse n'izindi, bahagaze munsi y'inzu nziza yubakishijwe amatafari ahiye.

Abaganga bari mucyumba bambaye amataburiya y'icyatsi, baje gufasha umurwayi kugirango akire, ndetse asubire mu kazi ke ka buri munsi. Abaganga ni abantu beza bafasha abarwayi, ndetse bafasha n'abandi bantu bababaye.

Umusirikare w'u Rwanda wambaye impuzankano ya gisirikare, ndetse yaje kwa muganga kuko nawe ni umuganga yaje kuvura abarwayi, kugira ngo bereke urukundo bakunda abanyarwanda, ndetse babafashe no gukira vuba.

Umugore w'umuganga ufite umusatsi w'umukara, ndetse ari muri laboratwari yambaye n'uturindantoki, tw'umweru, yaje gupima kugira ngo arebe uburwayi umurwayi afite, ndetse abone uko amuvura neza.

Umuganga uri muri laboratwari, wafasha ibipimo abarwayi kugira ngo abone uko abipima ashakemo indwara, amenye uburyo aha abarwayi imiti kugira ngo bivuze bakire.

Icyumba kirimo imiti itandukanye muri laboratwari, aho bafatirarwa ibizamini abarwayi, bakaza gupima uburwayi bafite kugira ngo babone umuti babaha ndetse babavure neza bakire basubire mu kazi kabo ka buri munsi.

Umuganga uri muri laboratwari, ufashe ibipimo abarwayi, waje kubipima kugira ngo amenye imiti abaha, abone n'uburyo abagira inama, yo kubaho ndetse no kumenya kwirinda uburwayi, butandukanye batabigizemo uruhare.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse wambaye n'agapfukamunwa witeze n'akagofero, wafashe ibipimo by'umurwayi, aje kubipima kugira ngo arebe uburyo yavura abarwayi ndetse bagakira bagataha.

Icyumba cyiza giteye irange ry'umweru kirimo abantu bicaye kuri mudasobwa ndetse baje kuzikoresha kugira ngo bishimishe cyangwa se bashakeho amakuru bifasha abana batoya n'abandi bantu kumva bamerewe.

Icyapa kiri amagambo avuga ngo icyumweru cyahariwe ubuzima bw'umubyeyi n'umwana kugira ngo birinde malariya bakoresheje inzitiramibu ndetse bibafasha kutaribwa n'imibu ndetse bakabaho neza.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara, inkweto zigiye kuba ibihogo ndetse n'ishati y'umweru ari imbere yabaturage, hariho n'umupolisi ari kubwira abaturage kugira ngo birinde ibyabatuma bashyamirana.

Umugore ufasha umwana uri mu cyumba babyariramo arangije kubyara umwana mwiza ndetse arishimye kubera ko imana imukoreye ibitangaza n'abaganga bakaba bamufashije kubyara neza.

Umukozi wambaye imyambaro y'akazi ari kurangira umugore aho bafatira imiti cyangwa se aho bavuriza abana kugira ngo avuze umwana we warwaye bimufasha kumva atekanye iyo umuhaye serivis nziza kandi akabona n'aho asabira serivise.

Abaturage babyukiye mu macaca bicaye, barimo baragirana inama uburyo bagomba kwiyitaho, ndetse n'uburyo bagomba kubana mu mahoro, bikabafasha kwiyumvanamo kuruhuka mu mutwe, ndetse no kubana neza.

Abajyanama b'ubuzima babyukiye mu guhugura abaturage, uburyo bagomba kwitaho ku buzima bwabo birinda indwara ndetse bakarinda n'abandi, harimo indwara nka malariya n'indi n'izindi ndwara zishobora kwirindwa.

Abagabo bicaye ku ntebe z'umukara, bari mu cyumba cy'inama, aho bari kujya inama ku cyo bakora ndetse n'uburyo bakwita ku bibazo byo mu mutwe by'abantu barwaye ndetse n'ibindi bintu, bagomba kwirinda.

Abaturage babyukiye kwa muganga baje kwivuza, bari kubagira inama uburyo bagomba kwiyitaho, bakita no ku burwayi bwabo kugira ngo bakire, ndetse bumve bameze neza, babeho neza mu mutekano, no mu buzima buta buzira indwara.

Abaturage benshi babyukiye kwa muganga baje kumva inama kugira ngo biyiteho, bite no ku bantu bafite ibibazo by'uburwayi ndetse umugabo ubahagaze imbere ari kubibabwira kugira ngo babyumve neza ndetse babishyire no mu bikorwa.

Abaganga bari kumwe n'abagabo, baje kuvura abantu ndetse barimo bagira inama uburyo bagomba kwiyitaho, bakita ku buzima bwabo kugira ngo birinde indwara ndetse biririnde no kuremba.

Abacungagereza bari kumwe n'abagororwa bafashe icyapa kiriho cy'umweru cyanditseho ngo:"Umunsi mpuzamahanga wahariwe ubuzima bwo mu mutwe", bibafasha kumva bisanzuye ndetse bagaharanira no kubana n'abandi amahoro.

Abasore, abagabo n'abakobwa bari mu cyumba cyiza bambaye imyambaro mpuzankano ndetse y'urwego rushinzwe gucunga amagereza n'amagororero mu Rwanda baje mu nama bababwira uburyo bagomba kuyacunga neza ndetse bameze neza.

Farumasi ni inzu icuruza imiti ifasha abaturage mu kwivuza ndetse kugira ngo bakomeze akazi kabo, bigafasha n'abayikoramo, n'abayicuruzamo kubona amafaranga yo guteza imiryango yabo imbere.

Abagabo bane bamwe bambaye amataburiya, undi yambaye umupira utukura bari mucyumba kirimo imiti myinshi cyane ifasha abaturage mu kwivuza no kuvuza ababo kugirango bakire biteze imbere.

Inzu yanditseho amagambo atandukanye ndetse na nimero za telefone, iteye irangi ry'uyumweru yanditseho ngo DynaPharm mu bacuruza imiti ndetse ifasha abaturage mu kwivuza kugira ngo bakire biteza imbere.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru ndetse ufite n'umusatsi mwiza n'ubwanwa, ari gucuruza imiti muri farumasi bifasha abantu baje kuyigura kugira ngo bivuze ndetse bakire basubira mu kazi kabo ka buri munsi.

Umumama urimo muri farumasi, ufite umusatsi mwiza w'umukara, ndetse akaba yambaye n'isaha, ari gucuruza imiti kugira ngo abantu barwaye baje kuyigura noneho bose bakire basubire mu kazi kabo ka buri munsi.

Amakarito y'imiti, afasha abarwayi, mu kwivuza ndetse bavuza n'ababo, kugira ngo basubirane imbaraga, babone uburyo, biteza imbere, bateza imbere n'imiryango yabo, banakomere.

Inzu nini icururizwamo imiti bakunda kwita foromasi ndetse igafasha abaturage mu kubona uburyo bivuza ndetse kugira ngo bakore akazi kabo, babone n'umusaruro w'uburyo baba bakoze mu gihe bari bazima.

Inzu nini icuruza imiti yanditseho ngo Peniel farumasi isobanura ko mu nda harimo imiti bacuruza kugira ngo abarwayi baze bayigure, bayirye bakire bongere basubirare mu kazi kabo ka buri munsi.

Utudobo turimo umuti w'amatungo, ufasha aborozi mu guha inka, intama, ingurube zabo kugira ngo zikire, zitange umusaruro biteza imbere, bateze imbere n'imiryango yabo.

Abagabo bambaye neza bahagaze abandi bicaye bari mu cyumba cyiza giteye irangi ry'umweru kimeze neza basa naho bari baje mu nama baje kumva ibyo bababwira ndetse babyumvise neza.

Abantu batanu babiri bambaye imyenda y'umweru abandi batatu bambaye imyenda y'umukara harimo n'inzego z'umutekano kandi hari n'amagambo yanditse ngo: "Twubake u Rwanda ruzira ibiyobyabwenge", ni igihe cyo kurwanya ibiyobyabwenge kugira ngo bitibasire urubyiruko.

Abanyeshuri bo ku rwunge rw'amashuri rwa Akumunigo bafite icyapa cyanditseho ngo "twamaganye ikoreshwa n'icuruzwa ry'ibiyobyabwenge mu rubyiruko" bari kurwanya ibiyobyabwenge kugira ngo hazavemo abantu b'abagabo.

Ibikoresho bifashisha bakora imiti nyarwanda ndetse ikabafasha kwivuza no kuvuza ababo kugira ngo basubire mu buzima busanzwe biteze imbere bateze imbere n'imiryango yabo binyuze mu kwivura kugira ngo bongere basubirane ubuzima.

Abaturage benshi, baje gufata umuti nyarwanda, ndetse ubafasha kugira ngo bivuze ndetse bavuze na ababo, babone imbaraga, banakire kugira ngo basubire mu kazi kabo, ko kwiteza imbere no guteza igihugu cyacu imbere.

Abaturage bari ku nyubako ya EAR Diyosezezi ya Kageme, iyo nyubako yubakishijwe amatafari ahiye ikaba isakaje amabati y'umutuku ndetse iriho na tiyo itwara amazi kugira ngo adasenyera abaturage kandi bibafasha mu kubungabunga amazi.

Abaganga bagiye mu giturage, gufasha abaturage, babapima indwara ndetse kugira ngo bashishikarize no kwirinda malariya, bamanika inzitiramibu mu nzu, bakinga amadirishya mu gihe butangiye kugoroba.

Agakarito kari mu umuti w'amatungo, harimo ihene, intama ndetse n'inka, bifasha aborozi kuvura inka zabo n'amatungo yabo kugira ngo biteze imbere, bateze imbere n'imiryango yabo.

Abaturage baje kwa muganga baje kwivuza, bicaye ku ntebe yo mu bitaro bategereje kugira ngo babahamagare buri wese aze gufata imiti ndetse kugira ngo ayinywe akire abone uko akora imirimo ye ya buri munsi.

Umama waje kwivuza kwa muganga, aho muganga arikumugira inama y'uko arya imiti ndetse nuko yakitwaye kugira ngo akire vuba, azahuke bimufashe kwiteza imbere, no guteza imbere umuryango we.

Abaganga babyukiye mu baturage, baje kubigisha uburyo kandagira ukarabe za kijyambere zikoreshwa kugira ngo birinde gukoresha akanagira ukarabe nabi ndetse birinde n'umwanda.

Abaganga bari imbere y'inzu, yanditseho ngo girubuzima, ni inzu itanga ubuvuzi ndetse ni nk'ibitaro, bifasha abaturage kwivuriza hafi, batavunitse.

Umumama, uri gukaraba kuri kandagira ukarabe kugira ngo bimurinde, indwara ziterwa n'umwanda harimo nk'impyisi impiswi, ndetse n'izindi, kugira ngo abeho neza atarwaye.